Kwa muganga habayo imiti y'amoko atandukanye ifasha abantu baba bafite ikibazo cy'uburwayi gukira. Iyo urwaye ukajya kwa muganga, bahita baguha imiti mu masaha make ukongera ugahita uba mutaraga.

Iyo ugeze mu bitaro by'akarere ka Nyagatare, usanga hari isuku ku rugero ruhambaye, dore yuko abarwayi baba baryamye mu bitanda byaho byiza, biyoroshe amashuka amenshe ndetse n'abaganga baza kubasura, bigaragara yuko serivisi z'ubuvuzi zitangwa neza aho mu bitaro bya Nyagatare.

Mu mavuriro habamo intebe iyo umuntu agiye kwivuza agerayo agahita yicaraho. Izo ngizo ziba mu nzu mberabyombi y'ibitaro aho abantu baba bategerereje mu gihe abaganga babajyana mu isuzumiro.

Iyo umuntu arwaye arembye cyane abaganga babizobereye, bambara udupfukamunwa bakajya kumuha ubutabazi bw'ibanze, dore yuko abari no kumuramira kuko baba barabyigiye babifitiye n'impamyabushobozi. Batabara umubare w'abantu batari bakeya, baba bagiye kubura ubuzima bakagaruka mu buzima.

Umuryango ushinzwe gutabara indembe utanga amaraso mu Rwanda ugira uruhare cyane mu kuramira abantu benshi baba bagiye kubura ubuzima by'umwihariko abantu baba bakoze impanuka bagatakaza amaraso menshi cyane.

Umuntu iyo ahuye n'ikibazo gitunguranye agahura n'imvune ikomeye hari abantu baba mu muryango ushinzwe gutabara indembe utanga amaraso mu Rwanda, bahita baza bakamufata kugira ngo ajye guhabwa ubuvuzi bw'ibanze.

Abapolisi bagira uruhare rukomeye cyane mu kuzimya inkongi z'imiriro ndetse no gukora akandi kazi gatandukanye cyane cyane nko gutanga ubutabazi bw'ibanze.

Ibitaro biba bigomba kugira ibitanda by'abarwayi, cyane cyane by'abantu barembye cyane, mu rwego rwo kubaha ubutabazi bw'ibanze kugira ngo bagire bwiza ndetse bakire n'indwara baba bafite.

Umuryango ushinzwe gutabara indembe utanga amaraso mu Rwanda, ugira uruhare rutoroshye cyane yuko iyo umuntu ahuye n'ikibazo gikomeye, bahita baza bakamuha ubutabazi bw'ibanze.

Iyo umuntu agiye kwivuza kwa muganga, mbere yuko yinjira haba hari intebe iba igenewe abakiriya baba baje kwivuza abanza kwicaraho kugira ngo bumve uko ameze, yarangiza akinjira mu bitaro akabwira muganga ikibazo afite.

Hakoreshejwe amazi asukuye abaganga basukura imbuto, imboga ndetse n'ibindi biba bigiye gutekwa, bakagira n'inama abaturage batuye Akarere ka Nyagatare kujya baronga imbuto ndetse n'imboga mbere yo kuzirya.

Abaganga bavura ku bitaro bagira inama yihariye mbere yo gukora akazi ubwo bamanza kuganira ku buryo bakora akazi kabo bakakanoza neza nk'uko bisabwa.

Kugira ngo Abanyarwanda bakomeze kugira ubuzima bwiza, leta y'u Rwanda yakusanyije ibikoresho biyungurura amazi, kugira ngo abaturage bajye banywa amazi asukuye bitume bakomeza kugira ubuzima bwiza, bakure neza mu gihagararo mu mitekerereze ndetse no mu mibanire.

Kubera yuko abaganga baba bafite akazi katabasaba kubona umwanya wo kuruhuka, rimwe na rimwe bajya kuruhukira ahantu hatuje cyane, nko gusura parike, gusura ibikorwa remezo, kugira ngo banoze akazi kabo neza.

Abaganga bagerageza gutumira abaturage kugira ngo babasobanurire ibyerekeranye n'ubuzima ndetse n'uburyo bahangana n'indwara ziba zugarije bamwe muri bo, ibi bigatuma bakomeza kugira ubuzima bwiza babikesha kurya indyo yuzuye igizwe n'ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri.

Mu rwego rwo guha agaciro abantu barwaye abaganga batanga ubufasha bw'ibanze cyane cyane igihe umuntu arwaye bitunguranye aho bahita bamuryamisha ku gitanda cyabugenewe agatangira kuvurwa.

Iyo inama itangiye abantu baba bicaye batuje bumva, icyo umuyobozi ari kubabwira hanyuma inama yajya gusoza bagahabwa umwanya wo gutanga ibitekerezo ndetse n'inyunganizi.

Ni kenshi cyane umuntu yumva ababara umutwe cyangwa se ahinda umuriro, ibingibi bituma ahita agana ivuriro ri rimwegereye cyane ko mu karere ka Nyagatare amavuriro yagiye akwirakwizwa muri buri tugari hakaba hari ivuriro.

Kugira ngo umuntu abe umuganga bimusaba kwiga amashuri atari makeya yiga ibyerekeranye n'ukuntu yavura abantu. Ibi ngibi bituma agira ubuhangage ndetse n'ubuhanga mu byerekeranye n'ubuvuzi.

Umuyobozi iyo agiye gutanga imbwirwaruhame aba agomba kuba yambaye neza yatebeshe ndetse afite na karuvati kugira ngo abe ari kubwira bamurebe neza kandi bumve ibyo ababwira, nta kugenda banoshana bamuvugaho ibitari byo.

Nta Munyarwanda ukirembera mu rugo iyo arwaye ahita ajyanwa ku mavuriro atandukanye byananirana akajyanwa ku bitaro kugira ngo avurwe neza akire, ibi ngibi biterwa n'uko aba yaratanze amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza azwi nka Mutuelle de santé.

Abaganga baba bafite ubuhanga buhambaye, bwo kuvura abantu, cyane cyane abantu bagiye gupfa, aho abaganga bahita babaryamisha ku bitanda, bakabaha ubuvuzi bw'ibanze.

Indembe ziba mu bitaro zihabwa ubuvuzi bw'ibanze ndetse kandi zikitabwaho cyane. Haba hari ibitanda biri aho ngaho kwa muganga, biryamaho abantu baba barembye cyane, igihe abaganga bari kubavura.

Iyo abaganga bafashe ibizamini umurwayi cyane cyane nk'amaraso cyangwa se umusarane, babijyana mu cyumba cyabugenewe barangiza bakabishyira mu gikoresho bita raboratwari bakareba indwara iyo ari yo.

Abaganga bagira icyumba bakoreramo ubushakashatsi iyo bamaze gufata ibizamini by'umurwayi, bagira icyumba bajya gukoreramo ubushakashatsi bari gupima indwara ngo bamenye, umurwayi indwara arwaye babone.

Abaganga baba bafite igikoresho kibona ibintu bitoya ku buryo amaso yo atabibona, icyo gikoresho bacyita Mikorosicopi, aricyo bifashisha iyo bari gupima abantu indwara zitaboneshwa ijisho nka sida.

Abaganga bagira icyumba bakoreramo ubushakashatsi.I bingibi bikorwa nk'iyo umuntu arwaye bakamupima amaraso cyangwa se bakamutuma ubwiherero barangiza bakajya kubijyana muri icyo cyumba bakoreramo ubushakashatsi, bakareba indwara arwaye kugira ngo bamusuzume bamuvurakire.

Abavuzi ndetse n'abanyeshuri biga iby'ubuvuzi bagira icyumba cyitwa raboratwari, icyo cyumba kikaba gikorerwamo ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye cyangwa se iyo bamaze gusuzuma umuntu bagiye kureba indwara arwaye bisaba y'uko bamanza kugera muri icyo cyumba cya raboratwari.

Amavuriro aba afite ibyumba bikorerwamo ubushakashatsi, ibingibi bigakorwa nk'iyo umuntu arwaye indwara, bakamupima amaraso bashaka kureba iyo ndwara yayo kugira ngo avurwe, ayo maraso bakayanyuza mu gikoresho cyabugenewe kugira ngo barebe indwara uwo murwayi afite.

Kugira ngo umuntu bamenye y'uko arwaye malariya n'uko bamanza kumupima bagafata amaraso ye bakayashyira ku gikoresho cyabugenewe bakakijyana mu cyumba bakoreramo ubushakashatsi bagapima ayo maraso bakamenya indwara arwaye.

Kugira ngo muganga amenye indwara umurwayi arwaye bisaba y'uko amanza kumufata amaraso akayajyana ahabugenewe akayapima akamenya indwara umurwayi afite.

Mu rwego rwo kuzamura gahunda zerekeranye n'ubuzima, leta y'u Rwanda ku bufatanye n' ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, bagenera amahugurwa abajyanama b'ubuzima mu midugudu kugira ngo bajye babafasha gucunga ubuzima bw'abaturage.

Abanyeshuri iyo bageze ku isaha y'isaa yine basohoka hanze bakajya mu karuhuko, ubwo bakina imikino itandukanye yiganjemo umupira wamaguru, abandi bagakina indi mikino bazenguruka mu kibuga kugira ngo bakomeze gukura neza.

Umubyeyi akimara kubyara umwana ni ngombwa yuko ahita amushyira ku ibere kuko umwana aba ataramenyera ubuzima bwo hanze muri iyi si. Nyina rero aba agomba guhitamuha ibere kugira ngo agenda amumenyereza dore yuko ari naho aba agiye gukura ibimutunga amezi atandatu yose nta kindi arya.

abaganga bakunda kwambara impuzankano y'amataburiya y'umweru ndetse n'udupfukamunwa tw'ubururu, cyane cyane mu karere ka Nyagatare usanga amavuriro yose aba ariho abaganga bambaye impuzankano y'umweru.

Abana bari munsi y'imyaka itanu, bagomba guhabwa indyo yuzuye igizwe n'ibitera imbaraga, ibinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri kugira ngo bakure neza mu gihagararo, mu mitekerereze ndetse no mu mibanire.

Ababyeyi batwite bagira umunsi bajya guteranira ku ivuriro, aho bagirwa inama y'ibyo bakora kugira ngo bazabyare abana bameze neza, bagirwa inama n'abaganga ndetse n'abandi bose babihuguriwe.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, gihugura abantu binyuze mu nama zikunze gukorwa, babwira abantu ukuntu bakwirinda indwara ndetse bagira amagara mazima.

Abana biga muri garidiyene yaba iya mbere, iya kabiri ndetse n'iya gatatu, bafatira amafunguro ku ishuri yiganjemo ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri, mu magambo make akaba ari indyo yuzuye.

Abaganga baba barize ibyerekeranye n'ububyaza babyaza ababyeyi abana babo bagakura neza, kubera yuko baba baravukiye mu maboko mazima y'abaganga bafite umutima wa kimuntu.

Umubyeyi wibarutse aba afite ibyishimo byinshi kuko aba ahaye ubuzima undi muntu, yishimira umwana aba yabyaye akamusoma ndetse akamwonka dore yuko aba ari amaraso ye.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bagira uburezi bw'ibanze aho abarimu babo babigisha guteranya, gukuba ndetse no kugabanya, abana bagakura bazi imibare ndetse n'ururimi rw'Ikinyarwanda neza.

Mudasobwa ni imwe mu bikoresho by'itumanaho bigezweho mu gihugu cy'u Rwanda. Abana basigaye bakura bazi gukoresha mudasobwa kuko bajyaho mu gushaka amakuru yerekeranye n'amasomo biga.

Abagore batwite ndetse n'ababyaye bashishikarizwa kurya indyo yuzuye, igizwe n'ibitera imbaraga bigizwe n'imyumbati ndetse n'ibinyabijumba, Ibirinda indwara bigizwe n'imboga ndetse n'imbuto ndetse, n'ibyuyubaka umubiri birimo nk'inyama n'ibishyimbo.

Ikoranabuhanga ryateye imbere, aho telefone y'umuntu ishobora kumufasha kwisuzuma akamenya urugero rw'umuhangayiko afite, anyuze ku rubuga ruba rwatanzwe muri iyo telefone.

Muri gahunda y'ubukangurambaga mu ntara y'ububurasirazuba, urubyiruko rushishikarizwa kurwanya ibiyobyabwenge kuko ibiyobyabwenge ari byo byica ubuzima, bikanadindiza iterambere ry'urubyiruko ndetse n'igihugu muri rusange.

Iyo leta y'u Rwanda ishaka kugira ubutumwa itambutsa itumira abakinnyi b'amakinamico nk'urunana ndetse na museke weya, kugira ngo banze batambutse ubutumwa binyuze mu mikino. Ibi ngibi bituma haza abantu benshi bakurikiye abakinnyi b'urunana, kandi bagahita bakuramo n'ubutumwa.

Ni ngombwa yuko abantu bitabira inama kugira ngo bahugurwe ku byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'ukuntu bakangura ubwonko bw'abana babo, kugira ngo bage batsinda amasomo yo mu mashuri.

Abayobozi bicara hamwe bakaganira ku cyagirira Abanyarwanda akamaro ndetse n'icyatuma bagira ubuzima bwiza, ibi ngibi bigira uruhare cyane mu gutuma Abanyarwanda babaho neza nta ndwara bafite zo mu bwonko ndetse n'ahandi.

Abakozi bakorera urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda, bajya gufata impanuro hamwe n'abandidi baturage baba bagiye kwivuza kugira ngo barebe ikibazo abandi bafite.

Umubare munini w'abantu biganjemo urubyiruko, abana, abakuze ndetse n'abakecuru, bateranira ku ishyamba ry'Umudugudu kugira ngo baganirizwe ukuntu bagira ubuzima bwiza ndetse n'ibyo bagomba gukora kugira ngo biteze imbere.

Amaduka acuruza imiti agira uruhare rukomeye dore yuko iyo umuntu arwaye indwara ikomeye akajya mu mavuriro asanzwe, rimwe na rimwe iyo miti ntabwo iboneka, bigatuma bamwohereza ku yandi maduka yigenga acuruza imiti.

Ikoranabuhanga mu buvuzi rimaze gutera intambwe ishimishije cyane dore yuko abantu bakora mu mavuriro yigenga baba bafite za mudasobwa bandikamo amakuru y'umurwayi.

Amavuriro yigenga acuruza imiti, aba afite ibyangombwa byihariye bya Leta, cyane yuko abo bantu baba bagomba gusora ku mafaranga abantu babaha iyo baje kugura.

Iyo umuntu arwaye umutwe cyangwa se yumva ari guhinda umuriro cyane bimusaba kujya ku ivuriro, rimwe na rimwe hari igihe ageze kuri iryo vurira agasanga imiti akeneye idahari bigatuma bamwohereza mu mavuriro yigenga akajya kuyigurirayo.

Iyo umuntu asoje amasomo ye yarize ubuganga ntabwo akirindira y'uko ahabwa akazi ka leta ahubwo ahita ajya kwishingira ivuriro ryigenga cyane cyane mu Karere ka Nyagatare hakaba hari amavuriro yigenga menshi.

Amavuriro yigenga acuruza imiti y'amatungo magufi ndetse n'amaremare yagize uruhare mu iterambere ry'abantu batuye akarere ka Nyagatare kuko iyo inka zabo zirwaye bahita bajya kugura imiti mu mafarumasi.

Abantu bakora mu mavuriro yigenga bagomba kuba bafite mudasobwa ku buryo umurwayi naza kwivuza bagende bandika amakuru ajyanye n'uburwayi bwe, muri iyo mudasobwa baba bafite.

Amavuriro yigenga acuruza imiti, akunda kugira abakiriya benshi mbere y'uko iyo abantu bagiye kwivuza mu mavuriro asanzwe, bagasanga imiti ntayo ihari babohereza kujya.

Amavuriro yigenga atuma abantu bagira ubuzima bwiza cyane y'uko hari ababa batagera ku bitaro bagahitamo kujya kugurira imiti mu mafarumasi ndetse no mu yandi mavuriro yigenga.

Ikigo k'Igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC,kijya gikora inama, aho gitumira abayobozi mu nzego zitandukanye kugira ngo bigire hamwe icyagirira u Rwanda akamaro ndetse n'Abanyarwanda bagakomeza kugira amagara mazima.

Abavuzi bakoresha imiti y'ibimera bagira uruhare rukomeye cyane kuko bavura abantu rimwe na rimwe iyo amavuriro ya kizungu yabananiye, barangiza bakabohereza ku bavuzi gakondo.

Imiti gakondo cyane cyane iy'amafu yabaga ibitse mu biti bibajwe, kugira ngo ibe ifu yamanzaga kubetwa ku rusyo cyangwa se gusekurwa mu isekuru.

Imiti gakondo ikomoka ku bimera, aho kera iyo umuntu yarwaraga bamwoherezaga kwivuriza kwa magendu, magendu biba bishatse kuvuga y'uko ari umuntu uvura akoresheje imiti y'ibimera kandi atarabyigiye.

Indwara y'ubushita, ibihara ndetse n'ibiheri ni indwara ivurwa hakoreshejwe imiti gakondo ikozwe mu bimera. Abaganga bavura iyi ndwara babita ba magendu kuko bakoresha imiti gakondo bari kuvura.

abantu bavura abarwayi bakoresheje imiti gakondo ikozwe mu bimera, bagira uruhare rukomeye cyane mu gukiza abantu. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu arwara indwara, itamusaba kujya kwivuriza mu baganga ba kizungu, agahita ajya muri abo ngabo bakoresha imiti y'ibimera.

Indwara y'ikibyimba ni indwara ihangayikishije abatari bakeya mu Rwanda, iyo ijya kuvurwa akenshi ikoreshwa imiti gakondo y'Abanyarwanda bo hambere.

Imiti gakondo ikomoka ku bimera, ikoreshwa n'abantu bavura bakoresheje iyo miti ikomoka ku bimera, aribo bakunze kwita mu kinyarwanda ba magendu.

Ibimera byose biherereye kuri iyi si ya rurema, byose biba ari umuti ariko ikibazo kibaho ni ukumenya uti ese uwo muti uvura iyihe ndwara. Abanyarwanda bo hambere bakoreshaga imiti gakondo yiganjemo iy'ibimera, bari kuvura indwara zitandukanye.

Ubworozi bw'inzuki bukorwa n'abantu bita abavumvu, aho bafata imitiba bakajya kuyihagika mu biti kugira ngo izinjiremo inzuki, izo nzuki iyo zimaze kujyamo zirahovya zarangiza zigakora ubuki, ubwo buki ari bwo bukoreshwa n'abatari bakeya nk'umuti.

Kugira ngo imiti ivura abantu idapfa, abayikora bagerageza kuyibika ahantu mu buryo bw'isuku, bakayimanika muri etajeri, bakayishyira mu macupa, bakayifunga neza kugira ngo idapfa.

Amavuriro agomba kuba afite umuhanda ndetse n'ikibuga cy'ubwisanzure ku buryo abaje bagana iryo vuriro badahura n'ikibazo cyo kubura aho bahagarara cyangwa se baparika imodoka zabo.

Abavuzi bagira impuzankano y'amataburiya y'umweru cyane cyane iyo bari ku kazi kabo ka buri munsi bagomba kuba bambaye izo mpuzankano z'amataburiya y'umweru.

Itorero ry'Abangilikani rifite diyoseze iherereye i Kigeme, aha ngaha ni ho hari ikicaro k'iyo diyoseze kandi hakaba n'urusengero abantu bajya gusengeramo basengera muri iryo torero rya Angilikani.

Ibitaro bya Nyagatare bitanga serivisi z'ubuvuzi nziza, dore yuko intego yabo ari ugukunda umurimo ndetse no kuwunoza, kugira ibanga ry'akazi ndetse no guharanira ubuzima buzira umuze mu baturage b'Akarere ka Nyagatare.

Abajyanama b'ubuzima kubera yuko baba barahuguwe ibyerekeranye no kuvura, iyo hari imiti ibonetse, bayibagezaho kugira ngo na bo bayishyire abaturage biboroheye.

Mu mavuriro habayo ibitanda biba bishashe neza abarwayi baryamaho cyane cyane iyo ari abarwayi barembye batabasha gusubira iwabo, baryama kuri ibyo bitanda bakajya bazanirwaho imiti.

Amavuriro yose agomba kuba afite ibitanda bifite isuku kandi bishashe neza kugira ngo nihaza umurwayi uza kuharwarira atahandurira indwara ziterwa n'umwanda.

Iyo umuntu yarwaye agiye kwivuza, agera mbere na mbere ku muganga akamubwira uko amerewe kugira ngo umuganga ahuze ibyo ari kuvuga ndetse n'ibyo yamupimye kugira ngo amenye indwara arwaye abone kumuvura.

Kubera amavuriro yegerejwe abaturage, usanga byaragabanyije ubushomeri, cyane cyane mu bantu baba barize ubuvuzi bw'abantu, aho bahita babona akazi ku mavuriro atandukanye.

Ikigo nderabuzima ni ahantu abantu bajya kwivuriza iyo barembye, inyubako z'ibigo nderabuzima zagiye zubakwa cyane cyane hafi y'abaturage mu byaro kugira ngo na bo begerezwe gahunda z'ubuzima bwiza.

Abaganga ndetse n'abaza kwivuza ku ivuriro bagirana ikiganiro cyiza, aho umurwayi abwira umuganga uko ari kubabara, muganga akamusuzuma akamuha n'imiti.

Mu rwego rwo kwegereza amavuriro abaturage usanga haragiye hubakwa amavuriro atandukanye mu bice by'ibyaro biherereye mu Karere ka Nyagatare kugira ngo hatagira umuntu urembera mu rugo ahubwo ahita ajya kwivuza ku ivuriro rimwegereye.

Ni ngombwa y'uko iyo abantu bitabiye inama baba bagomba kungurana ibitekerezo kugira ngo bagere ku ntego y'inama ndetse n'abayitabiriye bagire icyo bacyura. Bituma rero abayobozi batanga urubuga ku bari mu nama kugira ngo batange ibitekerezo byabo.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima, mu karere ka Nyagatare buri kagari kaba gafite ivuriro, aho iyo umuntu arwaye indwara zitandukanye ahita ajya kuri iryo vuriro atararemba bakamuha ubufasha.

Abaturage b'akarere ka Nyagatare batagezweho n'umuriro w'amashanyarazibatuye mu byaro, bahawe imirasire y'izuba, bakaba bayikoresha mu bikorwa bitandukanye, cyane cyane nko gucaginga amatelefone ndetse no kogosha.